Guhinga amaterasi g'indinganire ni byiza cane kuko birwanya isuri bigatuma ubutaka budacika imisozi. Bityo rero, iyo abahinzi bari kuyahinga ari benshi igikorwa kigenda vuba. Bityo bikazafasha n'abaturage guhinga neza ubwo butaka bwatunganyijwe.

Ni byiza guhinga kijambere kandi turinda imyaka ibyonnyi. Iyo abantu bahurije hamwe ubutaka, imyaka igenda neza kandi iyo bayiteye imiti imyaka irushaho kurumbuka, bityo abahinzi bakarushaho kugubwa neza.

Imbuto nyinshi zikunze kuboneka mu gihugu cy'u Rwanda hagaragaramo indimu; indimu ni kimwe mu bihingwa bituma abantu bazirya badahura n'ingorane z'uburwayi cyane cyane zivura, inkorora ndetse n'izindi ndwara zijyanye n'imyanya y'ubuhumekero.

Ubworozi ni imwe mu nkingi y'ubukungu bw'u Rwanda kuva kera kugeza na n'ubu ubworozi bwa kera bwakorwaga mu buryo bwa gakondo. Ariko ubu ngubu bugezweho bukorwa mu buryo bwa kizungu kugeza n'aho inka zimwe ziterwa intanga , izindi zigakatwa amahembe ukagira ngo ni inkungu. Mu gihe kera inka z'inyambo ndetse n'izifite amahembe ari zo zariho ubu ngubu zikaba zitangiye kugabanuka.

Imisambi ni zimwe mu nyamaswa zibarirwa mu biguruka ariko zababashije kugenda ziba nkeya kubera ibihe bibi igihugu cagiye kinyuramo. Bityo rero Leta yafashe imigambi yo kugira ngo zikomeze zororoke cane cane nko mu bishanga by'urugezi ndetse zikaba zigombaga kugenda zikwira mu gihugu hose.

Zimwe mu nyoni ziboneka mu gihugu cy'u Rwanda usangamo inyoni yitwa nyirabazana, iyo nyoni ikunze kuba mu mibande ndetse no mu bishanga. Akenshi iyo iguruka igenda ivuga abana bayigana, bigashimisha cane abana, ndetse iyo bayibonye bakumva bayitera ibuye kugira ngo ivuge bayisubiremo.